Abana biga mashuri y'inshuke bakenera ibikoresho bitandukanye, bakoresha bakina kugira ngo bishime, nanone ibyo bikoresho bifasha abarimu mu kugira ngo bigishe abo bana, kuko baba bakeneye guhugurwa kandi kugira ngo ubwonko bwabo bukure.

Abana biga mu mashuri y'incuke baba bakiri bato cyane gusa bakenera kujya kwiga kugira ubwonko bwabo busheho gukura hifashishwa ibintu bitandukanye harimo n'ibikinisho bituma bumva bishimye kandi nanone bituma batekereza kure ku buryo ubwonko bwabo bugenda bukura.

Hari ibikoresho byifashishwa bitandukanye, kugira ngo abana bo mu mashuri y'inshuke babashe kwishimira ishuri, kubera ko abakiri bato baba bakunda gukina, niyo mpamvu aho biga haba hari ibikinisho bitandukanye bibafasha. Abarimu bagerageza kwiga kubikoresha kugira ngo barebe neza ko abana bakunda ishuri.

Abanyeshuri iyo bari kwiga bakeneyera ibikoresho bitandukanye kugira ngo amasomo yabo agende neza, muri byo hakubiyemo amakayi n'amakaramu. Ibyo bikoresho babyifashisha mu masomo yabo ya buri munsi, kugira babone aho bandika ibyo bize, bazabashe no kubisubiramo. Ibyo bituma ubwonko bwabo burushaho gukura kubera ko basubiramo kenshi, baba bafite aho babyanditse.

Abana bakiri bato bafite imyaka nk'itatu kugera kuri itanu, nabo baba bakeneye kujya kwiga niyo mpamvu hari amashuri yabo yabugenewe, aho haba harimo abarimu babafasha kugira ngo nabo babone amasomo ahuye n'ikigero cyabo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke baba bakeneye kugira ubumenyi bahabwa, ni iyo mpamvu mu bikoresho haba harimo ibishushanyo kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo biga, banabibona. Ibyo bituma ubwonko bwabo burushaho gukura.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bifashisha ibikinisho kugira ngo babashe kwiga neza kuko bakira abana batoya bakenera ibikinisho bagakina, hanyuma mwarimu akabigishirizamo binyuze mu gukina.

Abana bakiri bato biga amashuri y'inshuke bakeneye kwitabwaho, niyo mpamvu iyo bagiye kwiga ababyeyi babo cyangwa aba barera, babateguriye icyo kunywa n'icyo kurya, kugira ngo baze kubifata mu gihe bari ku ishuri mu kanya k'akaruhuko, bashobora kwifashisha amagurude bagashyiramo igikoma cyangwa se icyayi, nanone n'amata ku bayanywa. Muri ako kagurude hari n'ahantu haba harateganyirijwe gushyiramo ibiryo.

Abana batoya iyo bari kwiga mu mashuri, bakunda gukina kandi ibyo birabafasha cyane. Urugero babakeneye kumenya inyamaswa zose zo mu gasozi. Ni iyo mpamvu bakenera udukinisho duto, tugaragaza uko zisa.

Hari imikino igiye itandukanye, ikinwa n'abantu kugira ngo bishimishe, ndetse babashe gukora imyitozo ngororamubiri. Muri yo harimo umukino witwa tenisi, aho ukinishwa agapira gato cyane, gakoreshwa mu kugatera hanyuma bagatsinda ibitego.

Amashuri y'incuke yigishirizwamo abana bato cyane kuva ku myaka itatu, kugera ku myaka itanu. Muri ayo mashuri haba harimo inyigisho zitandukanye, gusa nanone hibandwa ku zijyanye n'uko ubwenge bwabo bungana. Muri ibyo hakubiyemo imikino itandukanye, ituma ubwonko bw'umwana bubasha gukura kandi akaba yakaguka mu mutwe.

Abana biga mu mashuri y'incuke kubera ko abakiri bato bakenera ibikoresho bitandukanye kugira ngo bige. Na none haba hari udukinisho dutoya tubafasha kwiga ndetse bakanakina.

Abana biga mu amashuri y'incuke, kubera ko baba bakiri bato cyane ,baba bakeneye kwitabwaho, ku bijyanye n'ibyo kurya no kunywa ,n'iyo mpamvu ababyeyi babo babapfunyikira igikoma cyangwa amata, kugira ngo baze kubinywa bari ku ishuri, bakoresha amagurude cyangwa amacupa yabugenewe.

Abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo amasomo bayishimire ni uko mu bitabo byabo haba harimo ibishushanyo, haba harimo ibyishushanyo bigaragaza amatungo yo mu rugo, ayo mu gasozi, ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ibindi.

Abana biga mu mashuri abanza baba bakeneyewe kwigishwa ibintu bitandukanye niyo mpamvu leta igenda ishyiraho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubigisha, harimo ibitabo bakoresha bakabigisha ururimi rw'icyongereza kugira ngo bazakure bazi kuruvuga neza.

Uburezi ni kimwe mu bintu biranga iterambere ry'igihugu, niyo mpamvu mu Rwanda hari ikigo gishinzwe uburezi, gitanga ibitabo, kigategura ibizamini bigiye bitandukanye, nanone gishyiraho ingamba zikurikizwa mu mashuri.

Amashuri abanza aba akenewe kwitabwaho mu bikoresho, uburyo hubatse, intebe abanyeshuri bicaraho kugira ngo abanyeshuri nibaza kwiga babashe kungukirwa, ni yo mpamvu usanga ari ibikoresho bitandukanye: ibitabo, ibishushanyo, bizafasha abanyeshuri kwiga neza nta makemwa.

Amashuri abanza agenda yongerwa uko bwije n'uko bukeye, uburezi ni ingenzi cyane mu gihugu, niyo mpamvu leta igenda yubaka amashuri ahantu hatandukanye kandi aba yubatse mu buryo bugezweho arimo ibikoresho byose ku buryo abanyeshuri biga nta kibazo haba haribamo sima, amarangi hubatse ku byo batanyagirwa cyangwa se ngo bavirwe n'izuba.

Abana bakiri bato bari mu mashuri abanza bakeneye kwiga gusoma Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'izindi, niyo mpamvu abashinzwe uburezi mu Rwanda bashyiraho gahunda yo gukora ibitabo bitandukanye ndetse ikabageza mu mashuri kugira ngo abana abashe kubibona bige gusoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda n'Icyongereza, ibyo bituma bakura bafite ubumenyi butandukanye ku ndimi.

Hari ibikoresho byifashishwa mu kwiga. Uyu munsi twiga ubumenyi bujyanye n'isi, uko iteye, uko yabayeho, imibumbe iyigize ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Niyo mpamvu mu bikoresho dukoresha ku ishuri, harimo ibimeze nk'imibumbe bidufasha kwiga isi neza, dusa naho turi kuyireba. Ibyo bifasha abanyeshuri kwiyumvisha uko isi yaremwe, ibiyigize ndetse n'uburyo iteye.

Mu mashuri abanza bigamo amasomo atandukanye harimo n'iry'Imibare, bakenera ibintu bitandukanye by'ibikoresho kugira ngo bige gupima ndetse no kuringaniza ibishushanyo byabo.

Abana biga mu nshuke baba bakiri bato cyane, ni yo mpamvu iyo bari kwiga bakenera ibishushanyo ndetse n'ibikinisho kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga banabyishimire.

Hari ibigo bitandukanye mu Rwanda gusa hari n'ibyigisha ibijyanye n'uburezi kugira ngo hazavemo abarimu beza bazi kwigisha abanyeshuri, urugero hari icyitwa TTC Matimba giherereye muri Nyagatare.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abana babashe kugira ubumenyi, abna biga mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye bashobora gukoresha amarate, amakereyo kugira ngo bige ibintu bitandukanye nko gushushanya ndetse ibyo bikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare cyane cyane.

Amashuri agenda yubakwa buri munsi kandi uburyo yubaka bugenda butera imbere ku buryo usanga uko yubakwaga mu myaka yashize ubu ngubu bigenda burushaho gutera imbere, usanga amashuri ageretse kabiri cyangwa gatatu n'ayo asigaye ahari kandi ibyo bituma abanyeshuri bose biga nta kibazo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bige harimo: ikaramu z'ibiti, utubafasha gucora imirongo n'ibindi bitandukanye, ibyo ba byifashisha mu gihe bari kwiga isomo ry'Imibare.

Abanyeshuri iyo basoje icyiciro runaka nk'amashuri abanza, bagera igihe bagakora ikizamini cya Leta kigaragaza ko basoza aya mashuri abanza, ikizamini gikorwa mu gihugu cya hose aho bahaga ibizamini bisa, icyo kizamini ni cyo kigena umwana aho aziga muri segonderi kugira ngo bamenye nimba yarumvaga ibintu yize muri pirimeri.

Uburezi ni ibintuy'ingenzi cyane mu gihugu, kugira ngo igihugu kirangwe n'abantu bajijutse, niyo mpamvu Leta igerageza gushyiraho amashuri menshi atandukanye yegereye abaturage kandi buri mwana akabasha kwiga, batanga ubumenyi bw'ibanze, bakiga ibintu bitandukanye, nano abarimu barimo baba barabihuguriwe ku buryo batanga uburezi bwiza kandi bwizewe.

Abana biga mu mashuri mato, ay'inshuke cyangwa abanza, bakenera kwiga ibintu ariko nanone kugira ngo babyumve neza bisaba ko babibona, niyo mpamvu usanga mu bitabo byabo harimo ibishushanyo biriho n'amazina kugira ngo bibafashe gusobanukirwa neza.

Abana biga mu mashuri abanza bakeneye kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bazakure bazi ururimi rwabo neza cyane, ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda ifatanyije na Minisiteri y'Uburezi bakora ibitabo bitandukanye kugira ngo bifashe abana kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda.

Abana biga mu mashuri abanza bakeneye kwiga ibintu bitandukanye harimo impyisi cyangwa se izindi nyamaswa zo mu gasozi, muri ibyo harimo kubibigisha babereka ibishushanyo kugira ngo babimenye neza uko bisa.

Mu rwanda hagenda hongerwa amashuri kuko uburezi ni ingenzi mu iterambere ry'igihugu, niyo mpamvu ihubatswe ishuri rikuzura neza, hagerwaho igikorwa cyo kuritaha haba haje abayobozi batandukanye, ndetse n'abaturage n'abanyeshuri, kugira ngo batahe iryo ishuri ku mugaragaro ritangire gukoreshwa.

Abarimu bashyira abanyeshuri babo mu matsinda kugira ngo bungurane ibitekerezo, nanone mwarimu agerageza kubabaza ibibazo bitandukanye kugira ngo arebe niba ibyo bintu biga bari kwiga bari kubyumva neza.

Mu bigo by'amashuri ubu usanga byubatswe neza cyane, aho hanze haba hateye indabo kugira ngo habe hagaragara neza. Nanone ayo mashuri aba afite isuku cyane, afite amarangi meza ndetse n'inzugi nziza.

Abana bato biga mu mashuri y'inshukezi ndetse n'abanza bakenera udukinisho tubafasha kwiga, urugero nk'iyo bari kwiga kubara kugira ngo babifate mu mutwe bagomba kubikora mu mikino.

Hari ibigo by'amashuri bitandukanye urugero nk'ayisumbuye, iyo winjiye ku marembo yabyo haba hari icyapa kiguha ikaze kikwereka n'uko iryo shuri ryitwa bikagufasha kumenya aho uri.

Abana biga mu mashuri abanza biga ibintu bitandukanye gusa baba bakeneye kubibona n'amaso yabo urugero ibikoresho bifashisha bubaka; metero, ibarizo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashuri aba yubatse ku buryo butangaje, haba harimo intebe, ikibaho abarimu bakoresha bigishirizaho abanyeshuri kugira ngo ibyo biga babashe kubyandika babone aho biva ndetse babafashe kubimenya neza, nanone usanga hari imisambi abanyeshuri bandi bashobora kwicaraho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho bitandukanye bakenera kugira amasomo yabo agende neza, urugero harimo amakaramu y'igiti, ibikoresho bakoresha bashushanya kugira ngo imirongo igororoke, ibyo bintu byose babikenera kugira ngo bige isomo neza cyane iry'imibare.

Mu gihe cy'icyorezo cya corona virusi hagiye hagaragazwa ibimenyetso bitandukanye muri byo harimo kugira umuriro mwinshi, ni yo mpamvu ahantu hose hahuriraga abantu, urugero nko ku mashuri hagombaga kubapima umuriro.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, iyo bashoje ibizamini bamaze gufata indangamanota bataha iwabo. Baba batwaye ibikapu, gusa abayobozi babo bagerageza kubafasha kugera iwabo bakoresheje imodoka rusange. Babageza nko kuri stade, kugira ngo biboroherere kugera iwabo nta mbogamizi bahuye nayo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bajya bagira gahunda yo kuganirizwa kugira ngo bakomeze kongera uburere bwabo, nanone bafata umwanya rimwe mu cyumweru bakajya gusenga bakigishwa ibijyanye n'iyobokamana kuko bituma bakura bakunda imana kandi bafite ikinyabupfura.

Amashuri yisumbuye usanga arimo abana bamaze kugera mu gihe cy'ubwangavu n'ingimbi, abayobozi babo bafata umwanya bakabaganiriza kugira babatoze umuco, kwitwararika mu bandi ndetse no kubaha, ibyo bituma abana bakura neza kandi bakitoza kubana n'abandi bo hanze, bakazavamo abantu beza kandi bakomeye bafite ikinyabupfura.

Mu Rwanda tugira igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muw'igihumbi kimwe, maganacyenda mirongocyenda na kane, ibyo bikorwa ntabwo bikorerwa abantu bakora gusa ndetse no mu mashuri abanza n'ayisumbuye babigisha inyigisho zijyanye no kwibuka kugira bayihe agaciro kandi barwanye ingengabitekerezo mu bantu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, cyane abiga mu bigo babamo bagira umwanya wo kujya gusenga kugira ngo barusheho gukunda imana, ibyo bikorwa nko ku cyumweru cyangwa kuwa gatandatu, ibyo bituma abo banyeshuri bakurana umuco n'ikinyabupfura.

Abarimu baba bagomba gutezwa imbere kugira ngo batange uburezi bwiza, muri byo harimo kubahereza imashini bazajya bifashisha mu guteguriramo amasomo yabo.

Iyo abanyeshuri bari kwiga mwarimu agerageza kubashyira mu matsinda hanyuma akabahereza umukoro wo gukora, anyura muri ayo matsinda akagenda abafasha kugira ngo ibyo batumva abibasobanurire neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bajya bagira umwanya bakajya gusenga urugero nko muri Kiliziya, ibyo bituma bakura bakunda Imana kandi bikabarinda imico mibi; ni iby'ingenzi ko abayobozi b'amashuri babishyiramo imbaraga bagatoza abana babo kujya gusenga bagakunda Imana.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bagira umwanya buri gitondo aho bafata akanya bakaririmba indirimbo yubahiriza Igihugu. Ibyo bituma barushaho kugikunda kandi bagatekereza ku ndangagaciro zabo.

Hari abantu baba bafite ubuhanga butangaje aho bashobora kwifashisha ubutaka ndetse n'amabumba bagakora ibishushanyo binogeye ijisho kandi biba birimo ubuhanga, urugero bashobora gushushanya umuntu neza ukabona isura ni nk'iy'uwo muntu wanyawe.

Ku mashuri makuru na za kaminuza haba hubatse neza cyane, hanze haba ari amapavoma ku buryo nta butaka wahabona, nanone haba hari ubusitani bwiza butatsweho n'indabo ku buryo ari hantu heza hagaragarira amaso, Ikindi haba hari isuku ku buryo nta mwanda n'umwe wahabona.

Amashuri makuru na za kaminuza, agiye ari ahantu hatandukanye, gusa abanyeshuri baho baba bakeneye ahantu bicara, usanga bafite intebe zitandukanye n'iz'abantu bo muri seconderi cyangwa amashuri abanza, izo ntebe ziba zibikoze ku buryo haba hariho akameza bifatanye ku buryo umunyeshuri abasha kwandika cyangwa akaba yashyiraho komputa ye kugira ngo abashe kwiga bitamugoye.

Hari abaturage bihangiye umurimo aho bakora ibikoresho by'umutako bakoresheje ibumba ndetse n'itaka kandi biba binogeye ijisho kuko abantu babitaka bashyizemo indabo.

Hari abantu mu Rwanda bakora ibikorwa byo kubumba ibintu bitandukanye bifashishije ubutaka, bashobora gukuramo amasafuriya cyangwa se inkono, imitako bifashisha mu gutaka mu rugo bagashyiramo n'indabo, ibyo bintu byose bituma abantu batera imbere kuko barabigurisha bakabona amafaranga.

Hari abaturage bakora ibikoresho gakondo bifashishije ibumba ndetse n'ubutaka, bakoramo imitako yifashishwa mu gutaka mu ngo zacu dushyiramo indabo ari yo bita amavaze, iba ikozwe mu buryo butatse neza ku buryo iba inogeye ijisho kuyireba.

Iyo amashuri makuru na za kaminuza basoje amashuri yabo, kiba ari igikorwa cyo kwishimira niyo mpamvu kuri uwo munsi, haba hari umunsi uhambaye cyane, bambara amakanzu, amagofero, agaragaza ko bishimye. Uwo munsi witwa garaduweshoni, kandi batumira inshuti n'abavandimwe, kugira ngo bishimire ibikorwa byabo by'uko basoje amashuri.

Abanyeshuri bigana mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bagerageza guhurira hamwe kugira ngo bafashanye mu masomo. Barasobanurirana kandi ibyo bigatuma amanota yabo yiyongera.

Mu bigo by'amashuri ndetse na za kaminuza, abanyeshuri bakenera kwihugura mu bumenyi bwabo. Ni yo mpamvu haba hari icyumba rusange kibamo isomero ku buryo ibitabo byinshi ariho ubisanga.

Iyo turi kubaka inzu zacu tuba dushaka ko zisa neza, hari ibikoresho bitandukanye twifashisha kugira ngo tuyikore neza, muri byo harimo sima, aho iyo ivanzwe n'umucanga ituma inzu zacu zisa neza haba ku nkuta, hasi ndetse no ku mpande, ibyo bikoresho byose turabyifashisha kugira nog inzu yacu twizere ko imeze neza.

Abiga imyuga bigamo ibintu bitandukanye bizabafasha nibagera hanze muri byo harimo ibikorwa byo kubaka, iyo biga ibyo bintu birabafasha ubwubatsi turabukenera buri munsi kuko uko bwije n'uko bukeye abantu barubaka, niyo mpamvu abantu biga imyuga babyiga by'umwihariko bamenya ibikoresho bitandukanye n'uburyo bwiza bugezweho bwo kubaka inzu kandi bwizewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza bakenera gufata amasomo yabo neza, ni iyo mpamvu uba usanga bafite ahantu ho kwicara heza ndetse n'ameza abafasha kwandika ibyo bari kwiga.

Abanyeshuri biga muri kaminuza iyo basoje amashuri yabo cyangwa se ikiciro runaka, bakora umuhango wo kurahira ndetse no kwishimira ibyo bagezeho muri iyo myaka yose bamaze biga.

Iyo abanyeshuri basoje kwiga urugero nk'abize imyuga bahabwa impamyabumenyi igaragaza ko bize ibyo bintu kandi ko kuba bafite ubumenyi nta makemwa. Ibyo bituma abantu batabishidikanyaho mu kubaha akazi kuko bifashisha izo mpamyabumenyi bigaragaza ko babyize neza kandi ko babizi.

Iyo umwana ari kwandika cyangwa se abanyeshuri, bifashisha ibikoresho bitandukanye muri byo harimo ikayi n'ikaramu, kugira ngo babashe kwandika ibintu bike bafashe mu ishuri, nanone bagomba kuba bafite ahantu heza ho kwandikira, bicaye ku ntebe nziza. Ibyo bituma umwana agira ubumenyi, kandi agatsinda neza ku kigero cyo hejuru.

Amashuri makuru na za kaminuza abayubatse ku buryo hari ahantu heza ho kwigira usanga harimo intebe, ameza, amatara ndetse haba hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwiga, ibyo byose biratuma abanyeshuri bagira ubumenyi buhambaye ku bijyanye n'amasomo biga.

Amashuri y'imyuga yiga ibintu bitandukanye bibateza imbere muri byo hari imyuga itandukanye nk'ububaji aho biga gukora ibintu bitandukanye ameza, utubati, ibitanda n'ibindi bintu bitandukanye bikozwe mu mbaho kuko ibyo ni ibintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu babyiga kandi bibagirira umumaro ndetse natwe ubwacu tubikoresha bikadufasha.